Ni umusaza muremure wirabura, mu gashati ka karokaro, ipantaro y'umukara, ari ku mugezi aho yari kuvoma, afite injerekani mu ntoki, asa nkaho anezerewe, hari inkuru idasanzwe yumvise mu matwi ye, ituma akamwenyu ari kose.

Ni amasaha y'akazi, aho umugabo w'igikara mu ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, n'aba mama babiri bambaye ibitenge, n'ibitambaro byabyo mu mutwe, bari guterura imifuka, bayizamura hejuru bahereza uwo mugabo, bigaragara ko bafite akazi kenshi ko gukora kuko hari imifuka myinshi cyane kandi bagomba kuzamura mpaka yose.

Bazindukiye kurebera hamwe ibijyanye n'icyizere cya buri mwana babifashijwemo n'umuryango unicef wita ku bana, aho bareba icyakorwa kugira ngo buri mwana yumve anezerewe, abona buri kimwe cy'ingenzi, agire icyizere cyo kubaho mu myaka iri imbere.

Ni abana bato cyane, mu nifomo nziza, bavuye ku ishuri, gusa bari kugenda bakubagana mu muhanda, aho bageze ku mugezi babanza gukina n'amazi mbere yuko bagera mu rugo, namwe murabibona ko bari kuyimenaguraraho.

Ni imyanzuro itandukanye yavuye mu byegeranyo byakozwe mu bijyanye n'uburinganire mu gihugu cyacu, aho bari bari kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo dukomeze kubuzamura bive kuri revo biriho, bibe byagera ku yindi kugirango ngo twimakaze uburinganire mu gihugu cyacu.

Abato, abakuze twese twebwe umuco wo gufashanya, aho ababyeyi batandukanye bahuriye ku mugezi bari kuvoma amazi ariko ubufatanye na bwose, bari gufashanya mu rwego rwo kugira ngo babashe kuvoma biboroheye kandi buri wese abashe kubona amazi.

Umubyeyi usa nk'udaku cyane w'utudirede, yambaye agapira k'icyatsi kibisi, igitenge cy'amabara atandukanye, ahetse umwana mu gitenge, aho bisa nk'aho uwo umwana yamusinziriye mu mugongo, afite indi mirimo myinshi itandukanye yo gukora, aho arimo arakora amasuku, yoza ibikoresho byo mu rugo bitandukanye.

Ubwo bahuraga n'akana k'agakobwa gato gato kari kambaye ishati y'itenge, ijipo y'utubara, kikoreye ijerekani y'amazi umugabo w'ingofero y'ubururu mask y'umweru n'umupira w'ubururu n'ipantaro, yamufashije kugira ngo amuruhure, impande yaho hari umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ijiri ya gray aho yari ari kubafotora yishimiye ubufasha uno musaza ahaye umwana.

Ni ku gicamunsi bahuriye ku mugezi umumama w'agatambaro ka move, agapira k'ubururu n'igitenge cy'amabara, injerekani mu ntoki ari kuyivomera, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira gasa n'agatambaro k'uwo mu mama, nawe arimo aravoma kugira ngo bagire amazi ahagije bari bubashe kwifashisha nibagera mu rugo.

Inama yateranye iri kwiga ku bijyanye n'ubuzima, abayobozi bose bo mu nzego z'ibanze bamanutse n'iz'umutekano, aho ari kurebera hamwe uburyo ki bashobora gukomeza ubusugire bw'ubuzima bw'abaturage, kandi ntawe bahutaje.

Ahantu hateguye neza cyane n'abahari barasa neza cyane, biragaragarira buri wese, barasa nkaho bari kuganira ku ngingo zitandukanye, zadufasha mu kugira ngo dukomeze gutuma igihugu cyacu gitera imbere muri rusange, kandi tugere kure hashoboka twifuza kugera.

Ni ahahuriye abantu batandukanye harimo ingeri zose abapapa, abamama, abasore n'abakobwa bari gukora imirimo y'imbaraga bigaragaza yuko uburinganire bwageze hose natwe turashoboye ibyo abagabo bakora n'abagore babikora, namwe murimo murabyibonera.

Abana b'abakobwa n'abahungu mu mpuzankano ya kaki. Bari ku mugezi bari kuvoma amazi. Aho bari kuvomera mu bintu bitandukanye, bamwe bafite indobo z'imihondo abandi bafite utujerekani. Ikigaragara cyo nuko bashobora kuba bari gukora amasuku ku kigo bigaho.

Ni abana batoya, mu myenda y'ishuri, n'umuhondo, n'icyatsi kibisi, bari ku ishuri aho bari kwakira abaje babagana, ni abashyitsi batandukanye harimo abirabura, n'abafite uruhu rwera, nabo bari kubasuhuzanya ubwuzu babapepera mu byishimo byinshi cyane.

Isuku iturange aho turi hose. Umubyeyi ufite ijage mu ntoki, y'icyatsi kibisi irimo amazi, aho ari gukarabya umwana we wambaye agapira k'ubururu karimo utubara tw'umukara. Umwana biragaragara ko ari muto, ariko umubyeyi ari kumubwira ati "Gukaraba intoki ni ingenzi kuko tugomba kwirinda mikorobe izo ari zo zose".

Mu cyumba cy'abarwayi cyabigenewe harimo abantu batatu abadoteri babiri n'umukobwa ukiri muto muto umwe aho umdotegiteri w'umukobwa ari kureba umuvuduko w'amaraso ukuntu uhagaze w'umurwayi baje bagana iruhande rwe hari undi mugabo ufite mu ntoki ifishi isa nk'aho iriho imyirondoro y'uwaje abagana.

Akana gato gato k'agakobwa, kambaye imyenda y'igitenge, kishimye kanezerewe, kari mu rugo, robine iruhande rwako n'ibase, kari gukaraba ubona ko kamaze gusobanukirwa yuko isuku igira isoko.

Ahatangirijwe ku mugaragaro igikorwa cyo kwita ku bana babifashijwemo n'umuryango UNICEF wita ku bana. Aho basa nk'abarikuganira uburyo ki bagiye gutegura igikorwa kugira ngo kize kubasha kugenda neza kandi bagere kuri gahunda zose bapanze zijye mu bikorwamo.

Kwirinda biruta kwivuza, aho twese tugomba gushyira imbaraga mu kwirinda virusi itera SIDA no gukangurira abayanduye gufata imiti ku gihe no kwirinda kuba bakanduza abandi.

Ni umusore w'igikara w'agasatsi gakeya, utari mutoya utari na mukuru cyane mu ishati ya gereyi, ari hagati mu bantu benshi ari gusobanura ukuntu ibintu byose byagenze, kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa amenye amakuru ahamye y'ukuntu ibintu byose byagenze.

Birasa nk'aho batari baherukanye, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira umwe ku wundi ajye abasha kwibuka mugenzi we igihe arebye iyo foto mu gihe bazaba badaherukanye cyangwa badaheruka guhura kugira ngo batazibagirana bakomeza kubaka umubano bafitanye.

Ni ahabugenewe abajyanama b'ubuzima bahurira ngo barebere hamwe imikorere yabo, ibigenda neza n'ibitagenda neza barebe uburyoki babikosora bakomeze gukora akazi kabo neza kandi ku gihe.

Ni aho abita ku barwayi bazwi nk'abaforomokazi babukereye mu gushimira umuyobozi wabo, aho bari kumushimira uburyo ki yabafashije kugira ngo babashe gutera intambwe nziza bateye bagere ku byo bagezaho uyu munsi, kandi ari intangarugero mu mavuriro yose.

Ni ababyeyi benshi bavuye ahantu hatandukanye aho baje ahabugenewe hazwi nko kwa muganga gufata inkinngo z'abana, bafata n'amabwiriza y'uburyo ki bagomba kubahiriza iminsi igihumbi y'umwana n'umubyeyi kugira ngo umwana akure ameze neza.

Abayobozi bose batandukanye mu nzego za leta bahuye, bari kuganira ku bijyanye n'uburyo ki twarushaho gukoresha resources dufite mu gihugu cyacu kugira ngo tubashe kwita ku buzima kandi ubuzima bukomeze kuba neza ari ubuzima buzira umuze n'abaturage bishimye kandi babayeho neza.

Abayobozi mu nzego zitandukanye iz'umutekano ,izigenga, n'urubyiruko, babukereye mu kwubaka uturima tw'igikoni, mu midugudu tandukanye y'igihugu cyacu, aho bari gutera imboga, ni uku kugira ngo zibashe kudufasha cyane ko twese tubizi ko imboga ari kimwe mu birinda indwara.

Inzobere nyinshi zitandukanye zahuriye ahantu hamwe, birasa nkaho hari umuti bari kwigaho, turabona umugabo w'igikara muremure, wambaye itaburiya y'ubururu, ishati y'ikora ry'ubururu, afite agacupa mu ntoki gasa nkaho karimo imiti, n'agapapuro mu kundi kuboko, bisa nkaho hari muti bari kwigaho, kugira ngo babashe kurebera hamwe imikorere yawo.

Abantu batatu, bicaye ahantu hamwe. Bambaye masike, basa nkaho bari kuganira na Dogiteri, ku bijyanye n'ubwirinzi, bw'ibyorezo by'ugarije Isi . Kandi twese turabizi ko kwirinda, biruta kwivuza.

Ni ahabereye igikorwa cyo gutangiza ivuriro rishya rizwi nka mobile clinic mu Karere ka Bugesera ryita ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bafashe abaturage bahatuye kugira babashe kugira imibereho myiza batekereza neza.

Urubyiruko, abakuze n'abasheshe akanguhe, abanyarwanda n'abo hanze y'u Rwanda. Barishimye bari kwifatozanya n'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, aho bagaragaza ko bashyigikiye imbuto foundation.

Umugabo ubona ko koko ari umugabo w'umusore, mu ishati ya samo itaburiya y'umweru, iriho ibirango by'ubururu, asa nkaho yari mu biruhuko, kuko urabona ko bagenzi be baramwishimiye, bari kumuha ikaze kuko yongeye kugaruka gukorana nabo mu mu kazi.

Umuryango w'umubyeyi n'abana be babiri akana k'agahungu kakiri gato n'akandi k'agahinja ahetse. Umubyeyi asa n'aho atekeye abana igikoma kuko twese turabizi neza ko igikoma ari ingirakamaro ku bana kibafashe mu mikurire, gusa ikigaragara cyo ni uko umuryango wishimye uranezerewe pe uwaubabona wese yabibwira bafite akanyamuneza mu maso.

Ni iniforomo twari twambaye igihe habaga ya nama ya gamo cogako hari habaye inama ihuza ibihugu byose bitandukanye mu rwego rwo kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo umutekan w'ibihugu bitandukanye wiyongerere, kandi bidufashe kugira ngo dukomeze kubaka isi ifite amahoro inateye imbere muri rusange.

Arababaye cyane uyu mubyeyi w'umumama aho ari kurira akihanaguza agatambaro k'umutuku, iruhande rwe hari umukobwa uri kumuhoza amuhumuriza amwereka ko n'ubwo byose byabaye, hari icyizere cyo kubaho kandi ko atagomba guheranwa n'ibyamubayeho.

Ni umubyeyi utari mutoya ariko utanakuze cyane w'imibiri yombi. Agashati k'umuhondo n'agatambaro k'igitenge mu mutwe. Ukimubona urahita ubyibwira ko hari ikidasanzwe cyamubayeho. Kuko ari kureba biteye ubwoba.

Abana, urubyiruko, n'ababyeyi bose yababukereye mu gitondo cya kare aho bagiye kwamamaza umukuru w'Igihugu Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kuko bazi akamaro atumariye, bazi aho yadukuye, niyo mpamvu bishimye, bagiye kumwereka ko bamushyigikiye kandi batewe ishema no kuba atuyobora.

Dushyize hamwe dushaka ubuhindura ubuzima bwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho dushobora kubafasha mu buryo bw'imitekerereze tubaganiriza tubafasha mu buryo bwa suppoort y'amafaranga no kuba twabafasha kubona aho baba, byose bigatuma babasha gutekereza ko ari abantu bafite agaciro nabo bagakura amaboko mufu mifuka bagakora.

Twese tuzi ibyabaye mu gihugu cyacu, mugihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, uyu mugabo imbereye hari indabo zihumura neza, nk'ikimenyetso cyo kubwira abacu ko tuzirikana umunsi ku munsi, isegonda ku yindi, kandi kubabwira ko tuzahora tubibuka iteka.

Ni umumama w'igikara ubyibushye mu ikanzu y'igitenge y'amabara y'ubururu n'umuhondo, baji y'ubururu, indorerwamo z'amaso n'imisatsi myiza cyane, afite kadi mu ntoki yerekana ko tugeze mu gihe cyo kwibuka, namwe muri kubibona ko ikirango cyayo kigaragaza ibihe tugezemo.

Ni abana bakiri bato, bato cyane bisa nkaho biga mu mashuri y'incuke, barishimye baranezerewe ubarebye umwe ku wundi ubona ko akanyamuneza ni kose, baramwenyura mbese bateye ubwuzu.

Dufatanyije byose birashoboka kandi twagera kure ahubwo turi guhabwa amabwiriza ahamiriza yuko ubufatanye ari ingenzi mu byo dukora byose, tugaterana ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi byiza kandi birambye mu gihe gito.

Ni umubyeyi utari mukuru cyane, utari muto cyane. Ari wenyine mu nzu, nta muntu bari kuganira. Ibitekerezo byamubonye byinshi, ari gutekereza icyo ari bukore, aho ari buhere kugira ngo abashe gukemura ibibazo bimwugarije. Gusa urabonako nta nzira ihari y'aho ari buhere.

Abana b'abanyeshuri bishimye cyane, biragaragarira buri wese ko banezerewe. Barasa n'abari gusohohuza umuyobozi wabo, ubabona wese yabona ko banezerewe, barakeye mu maso bigaragarira buri wese.

Ni ahabugenewe aho bari kumwitaho, bareba ikibazo amenyo ye yagize. Muganga ari kuyakuramo mu rwego rwo kugira ngo amererwe neza, azabashe no kuba yasimbuza aya yagize ikibazo kugira ngo yongere amere neza.

Ni umusore muto muto, w'inzobe ariko idakabije. Agasetsi gakeya, wambaye tisheti y'umukara; bisa nkaho afite ikibazo cy'amenyo, aho ari ahabugenewe, kugira ngo aganire na dogiteri abashe kumufasha, aribe buryo ki bashobora kuyasimbuza, afite kibazo bashyiremo amazima.

Bisa nkaho bari mu rukundo. Umukobwa w'inzobe w'imisatsi myiza miremire. Umusore w'igikara w'udusatsi twa twisite duto duto. Bari imbere ya lavabo aho bari kwireba muri miruwari bakamwenyura. Bigaragara ko buri wese yishimiye undi.

Umukobwa unezerewe cyane, birasa nkaho ari mu gitondo, ari kwitegura ngo ajye mu kazi, aho ari kwiborosa afite akaburosada keza k'umweru na move, aranezerewe pe urabona ko ari kwitegura kugirango ngo yirirwane akanyamuneza, amwenyura kandi akeye, cyane ko guseka byongera iminsi yo kubaho.

Ni umwana muto muto cyane, ubwoba ni bwose, aho muganga ari kumusuzuma, akoresha akuma kabugenewe ngo arebe amenyo ye niba hari ikibazo afite n'icyo yayakorera mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurinda uyu mwana.

Ni inzobe idakabije, agasatsi gakeya n'ubwanwa buconze neza cyane, agapira k'ubururu bwijimye aranezerewe ari kumwenyura aho bisa nkaho yumviseshe inkuru nziza, inkuru yarategerezanyije amatsiko cyane. Urabonako byamurenze.

Ni umugabo w'igikara w'umusatsi muke muke mu bwoba bwinshi cyane afite ikibazo cy'amenyo, iruhande rwe hari umudogiteri wambaye imyenda y'ubururu yabugenewe y'akazi, agatambaro mu mutwe na masike mu rwego rwo kwirinda indwara z'ubuhumekero, ari kumufasha kugira ngo abashe kumugabanyiriza umusonga, aho ari gukuramo iryinyo rifite ikibazo.

Umukobwa muremure wirabura mu gakote k'ubururu, agasengeri k'umukara n'imisatsi miremire, afite akadokima mu ntoki, iruhande rwe hari umuntu wambaye agakoti ka ruje borudo, agakanzu k'umukara n'indorerwamo z'amaso, na we bisa nkaho yishimye afite document mu ntoki, bisa nkaho bageze kuri achievement yabo.

Ni umukobwa w'umwangavu w'imibiri yombi, arimo aramwenyuramo, biragaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, aho dogiteri yari kumusuzuma ngo arebe amenyo ahuje n'aye ku buryo yasimbuza afite ikibazo, agashyiramo amazima.

Hateguye neza cyane ibikoresho byiza bitandukanye bigezweho, aho bahatunganyije kugira babashe kwakira ababagana babakirane yombi babahe serivisi zose zishoboka kugira ngo batahe bongeye basubiranye ubuzima bumeze neza.

Abana bateye ubwuzu basa nk'aho biga mu mashuri matoya. Bari kwiborosa ubona rwose babifitiye ubwuzu babishaka cyane ko tubizi neza yuko isuku ni isoko y'ubuzima. Ni mu rwego rwo kugira ngo bakure bazi yuko tugomba kugirira umubiri wacu isuku kugora ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Ni umukobwa w'imibiri yombi w'agasatsi gake gake; arasa neza cyane, amenyo y'urwererane, ari kumwenyura, buri wese umubonye arabona akanyamuneza ku maso, bigaragarira buri wese ko anezerewe.

Umusaza n'umukecuru we bari mu rugo aho banezerewe gusa umusaza asa nk'aho afite ikibazo, umukecuru ari kumwitaho amwereka uburyo agomba gufata imiti kugira ngo yongere agire ubuzima buzira umuze .

Ababyeyi batatu bakuze mu myambaro myiza cyane baranezerewe, barishimye, mbega imisatsi y'urwererane! Bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, aho uwambaye agapira k'umuhondo ari we ufashe telefoni mu biganza arimo afata ifoto y'urwibutso rw'inshuti ze kugira ngo ajye abasha kubibuka.

Bakumo ni abakecuru batandukanye basa nk'aho bajya kuba benshi mu myambaro y'amabara atandukanye bicaye hamwe bateze amatwi kugira ngo bumve icyo babahamagariye bashaka kubagezaho, gusa bisa nk'aho ari inama y'abasheshakanguhe yateranye.

Umugabo usheshe akanguhe yambaye indorerwamo z'amaso, imisatsi y'urwererane ku umutwe, umupira ujya kuba ubururu, bisa nk'aho ari mu cyumba cyabugenewe aho dogiteri ari kumurebera uburyo ki ubuzima buhagaze.

Ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ni umubyeyi mu myenda ya siporo, n'akana ke gatoya ni uko. Bafite baro barimo barakina, aho umubyeyi ari kuganiriza akana, mu byishimo byinshi n'akana katwawe katakawe.

Barishima we namwe murabibona, ababyeyi, abana be, abuzukuru, baricaye bari kuganira nk'umuryango barishimye cyane bisa nk'aho bageze ku ntego zabo, gusa namwe murabibona ko uru rugo rwunze ubumwe, buri wese arabiboneshe amaso ye baranezerewe cyane.

Umubyeyi n'abana be babiri. Umukobwa mu gapira k'umweru n'umusore mu gapira k'umutuku. Bari guha umubyeyi care, bamwitayeho, bari kumutegurira breakfast. Umubyeyi urabona ko na we anezerewe. Aragira ati: "Bana banjye mukomeze umuco wo kubaha." Kandi koko turabizi ko kubaha ni indangagaciro Nyarwanda.

Umusaza ukuzemo w'imibiri yombi mu kavareze keza k'umweru, ipantaro ya kaki, iruhande rwe hari umudogiterikazi ukiri muto muto bari kuganira abona ko urugwiro ari rwose, bose baranezerewe, bisa nkaho ari kumuha icyizere cy'ubuzima.

Umukecuru mwiza wirabura, agasatsi gake k'urwererane, agapira k'ubururu n'umushanana w'umweru. Afite mikoro ari gutanga imbwirwaruhame avuga ati "Warakoze mubyeyi waduhaye ijambo, ubu natwe turatekanye."

Ni ahabereye umunsi mukuru, umukecuru uri mu gapira k'ubururu, n'umushanana mwiza cyane, umusaza mu ishati y'utubara, nawe yambaye umushana w'amabara atandukanye, aho bicajwe mu myanya y'ibyubahiro, mu rwego rwo kubashimira nk'ababyeyi bababwira bati mwarakoze.

Umubyeyi usheshe akanguhe mu gapira k'umweru n'umukara, umusatsi w'urwererane. Afashe ibiganza bya Dogiteri, birasa nkaho ari kuganira. Ikigaragara cyo ni uko Dogiteri ashobora kuba ari kumubwira ko ubuzima bwe buhagaze neza.

Ni umu mama uri kumwenyura, wambaye akaburuza ka burusiyeri; gusa bigaragara ko afite ikibazo. Yegamye ku musore w'umuganga, aho ari kumusindagiza kugira ngo abashe kumugeza ahabugenewe, atangire amwiteho, arebe ikibazo afite babashe kureba uburyo ki cyakemuka.

Ni umusaza wirabura udafite umusatsi, ubwanwa bw'urwererane n'akarakosite ka gereyi. Afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, iruhande rwe hari umukobwa muto muto w'umudogiteri, imisatsi miremire n'imyenda yabugenewe ya iniforume. Aho ari kumufasha kugira ngo abashe gufata imiti.

Ni umubyeyi w'umumama ariko udakuze cyane aho ari ahabugenewe, iruhande rwe hari umukobwa mutomuto wambaye imyenda y'akazi bisa nkaho ari umuganga, ari kumufasha kugira ngo abashe gufata imiti neza, amwibutsa n'amabwiriza y'uburyo ki ino miti bayinywa.

Ni imbaga nyamwinshi higanjemo urubyiruko rwinshi, babukereye bazindukiye kwamagana icyorezo cya virusi itera SIDA mu rubyiruko, ahobadushishikariza kuyirinda, kwipimisha, kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze kuko ni twe maboko y'igihugu cyacu cy'ejo hazaza.

Ni ahabugenewe, aho bari kudusobanurira indwara zandura n'izitandura, batubwira n'amabwiriza yaki twakwirindandi izo zandura, mu rwego rwo kugira ngo twirinde gukwirakwiza indwara zitandukanye.

Ni mu ruzinduko umukuru w'igihugu nyakubahwa madamu Jeannette Kagame yagiranye n'abaturarwanda, aho yari ari kubabwira ibyiza byo kurinda ubuzima bwo mu mutwe. Cyane ko tuzi yuko iyo idafite ni umutwe hazima, n'ibitekerezo ntabyo uba ufite, kandi niryo shyingiro ryo kugira ngo tugere ku ntego dushaka kugeraho, bitewe n'uko twatekereje neza.

Ni raporo igaragaza imyanzuro n'ingamba byafashwe mu nama iheruka kuba yo kuboneza urubyaro, aho twareberaga hamwe icyakorwa kugira ngo tubashe kubishyira mu bikorwa twese ntawe usigaye, nk'uko twabyiyemeje kugira ngo tubashe kwesa imihigo twahize.

Abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe, biragaragara ko ari abaganga, aho bari gusuzuma umugabo wambaye imyenda y'umukara, akagofero k'ubururu, ngo babashe kureba amenyo ye niba ameze neza, n'icyo bayakorera kuko urabona ko babizobereyemo.

Ni ikigo kizwi nka Rwanda biomedical center cyita ku buzima bw'ikiremwamuntu mu rwanda, bari kuduha amabwiriza y'ukuntu twakwirinda virusi itera SIDA, kandi turakayikingira. Mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze, turinda n'abandi kuba bakandura iki cyorezo.

Mubyishimo bateruye abana babo, bari ahabugenewe hazwi nko kwa muganga, aho bari kuganirizwa uburyo ki bakita ku bana babo kandi bakabitaho mu minsi igihumbi kugira ngo umwana azakure afite ubuzima bumeze neza, na ya minsi igihumbi y'umubyeyi n'umwana yubahirijwe.

Hateguye neza, harasa neza cyane, urabona ko ari ahabugenewe bakirira abaje babagana. Amarido meza y'ubururu, musitikeri z'umweru, aho umurwayi bamwakirana yombi, kandi bakamuha ibikoresho byo kwifashisha, ubona ko hafite isuku ihagije.

Ahabugenewe hatunganyirizwa imiti hazwi nka laboratwari. Aho inzobere mu bijyanye n'imiti bahateraniye, bafite imiti bari kwigaho kugira ngo barebe imikorere yayo, uburyo ki yakoreshwa igatanga umusaruro kandi ikaduha ibyo twiteze.

Ni nziza cyane, irageretse, jaride nziza, ziteguye neza, hari umuhanda ukata iruhande rwaho, winjira ahabugenewe hakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti itandukanye mugu sevinga ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Ni umubyeyi ukiri muto muto, ararembye cyane ahari mu cyumba cyabugenewe, umudogite ari kumufasha yumva uko ameze kugirango ngo arebe ubundi bufasha bashobora kumuha kugirango ngo aze kubasha kumera neza asubire mu buzima busanzwe.

Harakeye, harasa neza, haratuje, nawe urabibona ko serivisi batanga ni nta makemwa. Kubagana ni ukugira ngo tugire ubuzima bwiza, kandi ntawagera ahantu ngo atahe adafite ubuzima bwiza, namwe murabyibonera, ubwabyo no kuhagera ubuzima bwiza buhita buza.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi. Turabona imodoka iri gusohoka, umusekirite ku marembo n'abandi bakozi bo bari aho mo imbere. Mbese urabona ko biteguye neza kwakira abaje babagana, namwe murabyibonera.

Hafi aho ku gahanda k'amabuye hari icyapa kiyobora abaturage, kugira ngo bamenya aho basabira ubufasha igihe bibaye ngombwa, babusabe ku gihe kandi ntawutindije mu rwego rwo kwirinda ko hari ihohoterwa ryaba, ryo kugira ngo habe hari uwavutse umutekano kuko araba azi aho ari busabire ubufasha.

Baryamishwa igihe bigeze kwa muganga. Hari umudogiteri umuri iruhande yambaye agataburiya k'umweru n'imisatsi miremire na masike mu rwego rwo kwirinda. Ari kumwitaho kugirango arebe ikibazo yagize, n'uburyo ki yamufasha kugira ngo yongere amere neza.

Inyubako nziza ibereye ijisho, biragaragara neza ko ari ikigo cy'amashuri, aho turi kubona umu lecturer uri kwinjira ajya muma class, ukinjira muri iki kigo urabona indangagaciro na kirazira bigaragaza ko bafite amahame bagenderaho, kugira ngo ikigo cyabo gikomeze kuba intangarugero.

Ararembye ari kwa muganga aho bamwambitse imyenda yabugenewe y'abarwayi barembye kugira ngo abashe kwitabwaho. Iruhande rwe hari umudogiteri mu myenda y'akazi, imisatsi ifungiye inyuma, arimo aramwitaho, ari kumutera urushinge rurimo umuti uri bubashe kumworohereza.

Ni inyubako nziza cyane aho bakira abaje babagana bakabafasha ku bibazo bitandukanye by'ubuzima kugira ngo batahe bameze neza, bakomeze gahunda zabo nta kibazo cy'ubuzima na gitoya bafite.

Ari mu kagare umwana muto muto, bigaragara ko afite ikibazo cy'ingingo, ari gutembera hafi aho ngaho mu rwego rwo kwimenyereza kukagenderamo no kugira ngo yumve niba yafata akabaraga, abashe gusubira mu rugo.

Umukobwa muto muto usa nkaho ari kuganira na dogiteri, dogiteri ari kumubaza umukobwa nawe akamubwira uko ubuzima bwe buhagaze, iruhande rwe hahagaze undi muforomokazi, ari kureba imyirondoro y'uwo mukobwa, kugira ngo babashe kuza kubimukurikiranira neza.

Ni ahahuriye abasheshe akanguhe benshi n'abakuze ariko bitari cyane, aho bitabiriye inama yo kwamagana ihoterwa ribakorerwa, bigishwa uburyo ki bagomba gutanga amakuru mu gihe hari uhuye n'iki kibazo mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugikumire dutanga amakuru ku gihe.

Ari ahabugenewe, aho ari gutunganya ashyira ku murongo neza ibikoresho biri bwifashishwe mu kuvura abaje babagana kugira ngo bose bahabwe serivisi nziza kandi ku gihe ntawutindanwe, mu rwego rwo kugira ngo baramire ubuzima bwabo.

Ni inyubako zisa nkaho zishaje, amabati y'ubururu n'andi y'icyatsi n'amarangi y'ubururu n'umweru ku mpande, iruhande rwaho hari imodoka ziparitse ahabugenewe ebyiri z'imyeru na jaride nziza cyane ziteguye neza, zibereye ijisho n'uzireba wese.

Ni ahabugenewe bategurira imiti, harakeye, ibikoresho by'ikoranabuhanga bisukuye, umudogoteri mu itaburiya izwi nk'umwenda w'akazi, masike mu rwego rwo kwirinda, ari gutegura imiti kugira ngo ize kubasha gukoreshwa mu masaha ari imbere.

Abagabo, abadamu n'abakobwa muri rusange ibyiciro bitandukanye, bambaye masike mu rwego rwo kwirinda kuba hari uwakanduza undi indwara zitandukanye. Basa nk'aho bavuye mu nama yo kuganira buryo ki bashobora gufasha abantu bagize ihohoterwa.

Inyubako nziza cyane itanga serivise zo kwita ku bana n'ababyeyi, barasa nkaho hari ababyeyi batandukanye, baje kureba uko ubuzima bw'abana babo buhagaze, namwe murabyibonera.

Ahabugenewe dukorera imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho byose by'ibanze bidufasha gukora siporo, cyane ko twese tubizi ko siporo ari ingirakamaro ku buzima bwacu, idufasha kwirinda indwara tukagira ubuzima bumeze neza, tugatekereza neza, tukagira n'ejo hazaza heza kuko dufite ubuzima bumeze neza.

Ni inyubako nziza cyane zubatswe bigezweho aho hakorerwa ubuvuzi bwo kwita ku buzima bw'ikiremwamuntu, abantu batandukanye harimo ababyeyi, abagabo n'abana bahahuriye, kugira babashe kubonana na dogiteri abashe kubafasha bamubwire ibibazo bafite n'icyo yabafasha kugira ngo babashe kugira ubuzima bumeze neza.

Yari ari muri siporo ahura n'ikibazo cy'imvune ku kaboko, aho umuganga yari ari hafi yahise akora ibishoboka byose kugira ngo amwiteho, amufashe abashe ku muramira kugira ngo ukuboko kwe kongere kube kuzima, akomeze asubire mu myitozo ngororamubiri yahoze arimo.

Ni amabwiriza menshi atandukanye, atwereka uburyo ki tugomba gukoramo siporo, na kondisiyo tugomba kubahiriza mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuzikora neza, mu buryo bwabugenewe, kandi tubashe kutugirira umumaro, tubashe kugera ku cyo twifuza kugeraho.

Ni umukobwa muto muto mu myambaro ya siporo, agasengeri k'umukarani n'agakora, ari hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kumera neza, cyane cyane ko azi umumaro wa siporo mu buzima bwe.

Ni iyifashishwa gutabara abatameze neza, aho babavana hamwe babajyana ahandi, ngo babashe kubona ubuvuzi bwisumbuyeho. Baramire ubuzima bwabo, basubire mu buzima busanzwe bameze neza nta kibazo na gitoya bafite.

Twinywere amazi tugire ubuzima buzira umuze umusore mwiza wambaye agapira kajya kuba shokora n'isume ku rutugu, biragaragara ko abyutse ariko mbere yo gukora dushe yavuze ati se ''reka mbanze ni nyweye amazi'' kuko azi icyo amazi amumariye mu buzima.

Umusore n'inkumi, basa nkaho bisanzuranyeho rwose, bari kunywa amazi, biragaragara ko banyotewe. Twese turabizi ko amazi ni kimwe mu by'ibanze by'ingenzi bigize ubuzima bwacu, kugira ngo bugende neza. Ni yo mpamvu rero ubona, bari kuyanywa kandi ubona bishimye.

Ibage nini cyane, nziza cyane, irimo amabara atandukanye, umutuku, umukara, n'icyatsi kibisi ndetse na siriva, harimo ibikoresho by'amoko yose, aho bisa nk'aho nyiri iyi bage ashobora kuba agiye gufata urugendo rw'igihe kirekire, kuko yabashije gushyiramo ibikoresho byose by'ibanze ashobora kuzakenera.

Ni umusore muto muto, unanutse muremure w'amadrede; mu gapira k'umukara, agakora k'umukara n'inkweto z'umukara, aho yambaye n'akajezi k'ubururu. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, abona ko yashyizemo imbaraga rwose, kuko azi neza yuko, siporo ari ingenzi mu buzima bwa buri wese.

Twinywere amazi tugira ubuzima buzira umuze. Uyu mukobwa turabibona afite agacupa k'umweru gafite umufuniko w'ubururu, umupira w'umweru ku rutugu, agasengeri k'ubururu, ari kunywa amazi, urabona ko anyotewe pe. Twese tugerageze tube nk'uyu mukobwa kuko tuzi umumaro amazi adufitiye mu buzima bwacu.

Umusore asa nkaho ari muri siporo yambaye ekuteri z'umweru, afite icupa rya plasitike ri kunywa amazi. Turabizi neza ko umuntu ukora siporo kubera imbaraga aba yakoresheje, biba bimusaba kugira ngo anywe amazi kugira ngo ibihahsa bikomeze gukora neza. Niyo mpamvu uyu musore ubona ko rwose ariywa amazi ayakunze kugira ngo akomeze kurinda umubiri we indwara zitandukanye dukora ibintu imyitozo ngororamubiri.

Nyuma y'uko twese tumaze kumenya umumaro wa siporo kuva ku muto kugera ku mukuru, bateraniye ahabugenewe aho bari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurinda umubiri wabo, birinda indwara zitandukanye, kandi bakomeza no kugira umubiri umeze neza.

Ni umukobwa muto muto, uri mugasengeri k'umweru, agakora k'ubururu, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira umubiri uteranye umeze neza, kandi yirinda umubyibuho ukabije, no kwirinda indwara zitandukanye.

Akagari karatandukanye n'umukara ubururu twese tuzi umubare wako ahubwo akoreshwa n'umuntu ufite

Ni umwana muto cyane bisa nkaho yababaye bigaragara ko afite imvune aho ari mu cyumba cyabugenewe abaganga bari kumwitaho bamushyiraho bande kugira ngo amagufa yongere gusubirana akomere yongere asubire mu buzima busanzwe.

nta mazi nta buzima, ahantu hateguye neza, ikirahuri kiza ku meza n'amazi y'urubogobogo, aho bari kuyasuka muri icyo kirahure kugira babashe kuyanywa cyane ko twese tubizi umumaro w'amazi n'icyo amaze mu buzima bwacu.

Kugira ubuzima bwiza biraharanirwa, umukobwa muto muto arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, agakoresha n'imbuto n'imboga bitandukanye kugira ngo abashe kugira intungamubiri, akomeza kugira ubuzima bumeze neza.

Urubyiruko rw'ingeri zitandukanye rwahuriye ahabugenewe, muri siporo rusange aho bari bambaye uniformes bose. Maze batangira gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko bashyizemo imbaraga, bari kubikora babikunze kandi babyishimiye cyane rwose.

Umukobwa muto muto uri mu kigero cy'ubwangavu, ari kunywa amazi kuko azi ibyiza by'amazi, aho yari ari gukora siporo ariko aravuga ati reka mfate amazi kugira ngo ibihaha byanjye bimere neza, nkomeze nkore siporo kuko azi ko siporo ari ingenzi mu buzima.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri, ndabonamo abagabo babiri, bafite sikini zitandukanye, uryamye ku gatanda kabugewe yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, ibisuko biryamye ku mutwe, iruhande rwaho hari undi mugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara, usa nkaho afite uruhu rwera, gusa ikigaragara cyo barananiwe pe.

Amazi kimwe cya gatatu mu bigize umubiri wacu, aho kuyanywa bidufashe kugira ubuzima bwiza butekanye kandi buzira umuze. Dushishikarize n'abandi tubabwire ibyiza byayo kugira ngo twese twibereho neza kandi tumeze neza.

Umukobwa mwiza cyane ku gapira k'umutuku, imisatsi miremire, ekuteri mu matwi na terefone ku kuboko arimo aranywa amazi bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri. Twese turabizi ko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti byinshi by'amoko atandukanye, biragaragara ko harimo igiti gifite amababi maremare n'icyatsi kibisi, gitohagiye, ikigaragara ko ni uko kimeze nk'icyashimye ubutaka.

Umuteguro mwiza cyane ugizwe n'indabo zitandukanye z'amabara menshi, ziteguye mu buryo butandukanye aho zimwe ziri ku mavaze, izindi ziri mu macupa, biragaragara ko rwose hano yahateguye, buri wese arahabona akumva arahishimiye ntago yahava bitewe n'uburyo ki hagaragara.

Bisa nk'aho bari mu ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane n'umugezi utemba muri iryo shyamba, bari kugana imbere aho hari amazi amanuka ku musozi bagenda bayasatira. Ni ibyiza nyaburanga bihatatse, bahasuye kugira babyijoyinge babashe kubigeraho babirebe neza.

Ni ishyamba ry'inzitane n'imiti byinshi cyane, aho hari akabo kazamutsemo gatohagiye, gafite amashami menshi cyane, kabereye ijisho kukareba no kugategura byaba biryoheye amaso.

Ni imiti myinshi cyane itandukanye, amoko menshi yifashisha mu kurinda uruhu rwacu, aho buri wese bitewe n'ikibazo afite, ashobora kwisangamo akabona umuti ushobora kumufasha kugirango yongere asubirane uruhu rumeze neza.

Ni imiti myinshi cyane itandukanye abaganga bifashisha mu gufasha abaje babagana, ikora bitandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite aho ukihagera bakubaza uko wiyumva, bakagusuzuma bamara ku kugusuzuma bakabasha kuguha umuti bigendanye n'uburyo urimo kubabara.